Muri gahunda ya Leta harimo kwegereza abaturage serivisi zose zitangwa na Leta ndetse n'ibigo by'imari. Ni muri urwo rwego rero, ikigo cy'itumanaho Emutiyeni cyegereje abaturage serivisi gitanga harimo kugura umuriro, amayinite ndetse n'ibindi. Kifashishije abantu bamanuka bakajya mu giturage bakagera abaturage bakabaha serivisi ku buryo buhagije.

Ibikorwa remezo bya leta habamo ibyiciro bitandukanye, hari ibifatika nk'amazu, imihanda, ndetse n'ibindi. Hakabamo na bimwe by'ikoranabuhanga bidafatika, twasangamo nka serivisi za mtn, ikigo cy'ishoramari ndetse na airtel.

Ubucuruzi buciriritse ni ingenzi mu mibereriya muntu kuko bimufasha kwinjiza amafaranga ari uko yabitanze ariko yabanje kubirangura, umucuruzi uciriritse haba ibintu bitandukanye amavuta y'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa igihe bibaye ngombwa.

Imibereho ya muntu, ni ngombwa ko umuntu agira ikintu cyangwa se isoko y'amafaranga kugira ngo abashe kubaho, muri uko kugira isoko ku mafaranga umuntu ashobora gukora ibintu bitandukanye: ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ubucuruzi buciriritse, agacuruza inintu bitandukanye ari ibyo kunywa ndetse n'ibyo guteka.

Mu buzima bwa buri munsi tuzi ko guterana kwera cyangwa se mu rusengero. Ari ibintu bihuza abantu bagasabana n'imana ndetse bakaganira na bagenzi babo. Mu kwibohorana aho bajyanye ibintu bitari byiza ndetse n'ibindi bitandukanye.

Amasoko ni ahantu h'ingenzi bacururiza ibiribwa, imyambaro ndetse n'ibintu bi bitandukanye, amasoko meza agomba kuba ateye imbere, adafite umwanda, ubona aho umanika ibyo ucuruza.